Farumasi ikorerwamo itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, habamo imiti nk'iy'abarwayi bayibuze ku bitaro cyangwa ku bitaro ari kure niho ubagana. Imiti ya bo ikaba iba yizewe kandi ivuraga neza.

Farumasi irimo imiti itandukanye abarwayi barayifashisha, barayikenera nk'iyo bayibuze kwa muganga ,cyangwa babona kwa muganga ari kure byihutirwa, bahita bagana iyi farumasi ikabibakemurira ikabaha iyo miti bakeneye.

Imiti itandukanye iri muri farumasi, iyi miti ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye, muri farumasi abarwayi bahajyaga nk'iyo babuze imiti mu bitaro, cyangwa ibitaro biri kure y'aho bari.

Farumasi icuruza imiti ku bantu, buri gihe iyo umurwayi ayikeneye, akeneye iyo miti yayibuze kwa muganga arayigana iyi farumasi bakayimuhaga, kandi niyo wabonye ku bitaro ari kure ahita azaga hano akaba ariho ayiguriraga.

inturusu ibafite amababi y'umweru. Iyi nturusu ihingwa mu bice by'imisozi kandi iranakomera. Iyo umuntu ashaka n'umuti, ayo mababi yawo arayakoresha, yarwaye nk'inkorora ayo mababi aravura, akoraga nk'umuti.

Utwatsi twiza twarabije dutandukanye dufite indabo z'umweru n'utubabi tw'icyatsi twameze mu mabuye amabuye akaba ari amakoro utu twatsi dutuma bimera neza ubutaka ntibwangirike.